Ifoto igaragaza abayobozi, bari mu nama cyangwa amahugurwa, bigaragara ko hari abayobozi bo muri Leta y'u Rwanda, ku bw'ibirango bambaye.

Ifoto igaragaza ibyerekeye ibya taransiporo cyangwa ingendo, igaragaza umu motari uri mu murimo wo gutwara abagenzi, abakura ahantu hamwe abajyana ahandi.